Abantu bambaye imipira y'icyatsi yo muri RAB. Abajyanama b'ubuhinzi bari gusuka ifumbire mu kandi kantu, kugira ngo bayiteze imbuto.

Imifuka iteretse irimo invaruganda, idufasha guhinga ibihingwa byacu bikera neza, kandi bikera bishishe bikaba byiza cyane, bikaduha umusaruro utubutse.

Ifumbire y'umushongi bakoresha mu gutera imyaka kugira ngo imyaka ikure neza. Aha bayitera mu bihwagari, mu nyanya, ndetse no mu muceri, hose kugira ngo byere neza.

Abagabo babiri bari gushyira ifumbire ku bigori, kugira ngo bikure neza, ibigori biteye neza kijyambere, babiteye mu ntabire itunganyije neza, nabo bagomba kubyitaho.

Igicupa cyanditseho ijambo ditani M- mirongo ine na gatanu, gifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi. Hejuru gipfundikiye n'umufuniko w'umweru, kirimo umuti batera mu mbuto.

Abantu bari kwamamaza amasabune ari mu kadomoraa gasa n'umweru gafite imifuniko y'icyatsi, akandi gafite imifuniko y'umutuku hariho papiyekora.

Gutera umuti mu myaka ni byiza, kuko biyirinda agasimba. Umubyeyi uhetse ipombo ari kwifashisha, kugira ngo imyaka ye imererwe neza, kugira ngo azabonemo umusaruro ushimishije.

Isambaza zisa n'umweru, zifite utwisho tw'umweru. Barazirya, bazikoramo isosi bakarisha ibindi biryo. Zino sambaza ni nziza.

Amafi barayarya akaryoha akagira isosi imeze neza tugashyiramo ubunyobwa n'inyanya isosi ikaba itukuye ishimishije abari kuyirya. Ni byiza rero natwe tuzajya turya amafi kugira ngo umubiri wacu umererwe neza.

Amafi ari mu gatimba bamaze kuyaroba， amafi agira umumaro mwinshi mu mubiri， atuma umubiri ukomeza amagufa，amafi araryoha， tuyakoramo isosi.

Ibiraro by'inkwavu byubatse ahantu nko mu mazi, impande yaho hari ibisheke n'ibindi biti bihateye bisa n'icyatsi.

Ibiryo bitetse neza harimo imboga, bashyizemo amavuta n'ikirungo. Ibi biryo birashimishije kuko bifite isura nziza cyane.

Amafi ari mu ndobo y'umutuku arumye, araryoshye. Uwayarya akayakoramo isosi, yaba ari nziza cyane.

Ubwato buri mu mazi, ubwato butatu. Busa n'igitaka ubundi busa n'umweru. Abantu barimo bari kuroba bakoresheje ibiti.

Aya mafi bayarobye tugiye kuyakoramo, barayakoramo isosi bayitetse neza, bayigaburire abantu imeze neza. Amafi nta bwo wayarya utayatetse, bisaba kuyateka.

Insina irimo izuba ryarasiyemo, impande yayo hari igiti cy'igiko, igiko kigira amahwa ku giti ajombana.

Ibirayi biri mu murima impande yaho hariho ibiti bihateye, hirya y'aho hariho amazu ameze nk'amashuri, ibirayi bimeze neza kuko babikoreye neza barabibagaye, babitera n'umuti birasa nkaho bavuye guteramo umuti uyu munsi.

Insina ziri kumwe n'indabo, impande yaho harimo ikidodoki cyatondagiyemo, kiri kwerera amababi, impande hari n'ibyumye byatondagiye ku nsina.

Igiti cy'umuvumu kiri impande y'urutoki, igiti ni kirekire kurusha urutoki. Urutoki ni igihingwa gitanga umusaruro ku mutobe, imineke no kukirya.

Insina tuzitemaho ibitoki tukabirya, izindi tukazitemaho ibitoki tukabitara tugakamamo inzoga, tukabiryamo imineke, inyamunyo tuzirya turyamo umunyige, tukabirisha inyama.

Ibihoho bikozwe mu birere, biteyemo imbuto zo kurya, izi mbuto zirimo n'igiti bita umwungo.

Igikakarubamba ni umuti uvura, uvura indwara zo ku ruhu, ukavura ibisebe, ni umuti ufitiye akamaro abantu benshi nta muntu utavura.

Umurima urimo ibyatsi, ibyatsi bifite ubwerezwa bw'umweru duto duto, impande yaho hariho ibiti, hirya yaho hariho amazu y'abaturage bahatuye. Aba bantu ntawamenya kuko nta muntu n'umwe uhari, nimba aya mazu bayabamo.

Ibyatsi biri mu kibuga, harimo n'utundi twatsi tumeze nk'inteja, bazigaburira amatungo, inka, ingurube n'intama, byose zirabirya. Zikabitungira ubuzima.

Umuririma urimo ibyatsi bito bito. Ibi byatsi byagira umumaro ku muntu woroye inka, cyangwa umuntu woroye intama. Yabyahira akabigaburira amatungo.

Umurima urimo amashu ateye neza ku mirongo, impande y'amashu hari amashuri afite amadirishya y'ubururu, asakaje amabati y'ubururu.

Umuntu uri kugenda ku igare. Impande hariho ibyatsi. Ku gare ahetseho ikidomoro. Inyuma ye hariho amashuri yubatse afite amadirishya y'icyatsi, asakaje amabati asa n'ubururu.

Umuntu uriku kugenda yikoreye udukwi, yambaye agapira karimo umutuku n'umweru n'umukara akenyeye agashura karimo ubururu impande ye hari umurima urimo ibyatsi n'undi urimo karoti.

Umuntu wikoreye ibyatsi ku mutwe. Impande hari igihuru kirimo ibindi byatsi. Hariho n'imifuka ibiri irimo ibyatsi, ku mpande hari ibiti bihateye. Ibi biti byabyara umusaruro.

Ibyatsi by'isanduruma bifite uruyange rw'umweru, amababi yabyo asa n'icyatsi, harimo n'ikindi cyatsi gifite utubabi tujya gusa n'umweru, birandaranda mu murima.

Igiti cy'avoka giteye impande y'urutoki, impande y'urutoki hariho indabo, impande y'avoka hirya hariho ibikenyeri by'ibigori byumye, ibi bikenyeri umuntu yabitema akabisasiza urutoke.

Umurima utuburiyemo ingemwe za pepeniyeri, uyu muntu yazifashe neza n'ingemwe z'umusave zimeze neza cyane rwose, izi ngemwe zizadufasha kubahiriza ku kubaha ibiti bya gakondo n'ibyari bisanzweho kuko ba kera.

Urubingo barugaburira inka zikarurya zikamererwa neza, inka yaruriye irabyibuha, igakura, igashisha, igatanga umukamo kugira ngo umworozi agire umusaruro ushimishije. Nta muntu ugomba korora inka ngo yororere mu kw'abandi agomba guhinga urubingo.

Ibyatsi bimeze neza bya kameroni. Impande yaho hahinze imyaka. Hirya no hino birasa neza kandi biratoshye, ni byiza cyane babyitayeho mu kubifumbira.

Umurima uteyemo ibyatsi, impande y'umurima hari indabo zizungurutse ku ruzitiro. Izi ndabo zimeze nk'imigozi, n'ubwatsi bumeze nk'umuceri.

Umuntu ufite umusaruro w'imyumbati. Imyumbati yarashoye imeze neza, afite umunzani ari gupima ngo arebe umusaruro wavuye mu isambu ye.

Umugore uri kwaha inyanya, inyanya zimwe zisa n'umutuku izindi zisa n'icyatsi. Izitukuye zitangiye kwera iz'icyatsi ntabwo zari zera.

Imboga ziteye mu murima ziri mu duce dutandukanye n'ubwoko butandukanye, harimo izifite amababi maremare ,hariho n'izifite amababi magufi.

Umuntu uri kubagara imyaka, yambaye umwenda w'umweru n'agapira ka shokora gafite amaboko arimo amabara. Yiteze igitambaro. Iyi myaka imeze nk'ibishyimbo kandi ni myiza.

Umuntu uri mu murima w'amatunda. Amatunda barayarya, bakayakoramo umutobe, abandi bakayarya ari mabisi. Umugabo yambaye agapira k'umuhondo, agapfukamunwa k'ubururu.

Umubyeyi uri kubagara imyaka, ni byiza kuko kubagara imyaka bituma imera neza kandi igakura neza, harimo n'aya matarasi ni ngombwa kuyitaho kugira ngo turwanye isuri, kandi imyaka yacu ikomeze kumera neza, ni byiza cyane rwose, birashimishije.

Ingemwe za puwavuro ziri mu bihoho, impande hariho n'izindi ngemwe zifite ibara rigiye gusa n'umweru, izi ngemwe uwazitera zavamo umusaruro mwiza.

Inkoko ziri kurya bazigaburiye neza ,kandi n'inkoko za kijyambere, zororerwa mu biraro kandi zororwa. Korora inkoko bisaba kuba ufite urushoro rufatika kuko utazitayeho ntabwo zakura neza.

Imashini ibeta ibyatsi kugira ngo amatungo abirye neza atabangamiwe. Iyi mashini ikoreshwa intoki, babirindura ariko bacometse ku muriro.

Abagore bari kubagara amashu, bari kuyitaho kugira ngo azere neza asa neza afite isuku. Aba bagore bari no kuyasasira, harimo uwambaye umupira w'ubururu n'abandi bambaye...

Ibijumba by'inzu by'umutuku ni Nyiratura yareze cyane rwose, ifite ibijumba byiza bibyibushye, tugomba kujya duhinga iyi mbuto, kugira ngo tubone umusaruro uhagije.

Umugore uri kwanika imyumbati hasi ku itaka nta suku bayigiriye, impande ye hari igare yiteze igitambaro cy'umutuku, n'igitenge kirimo ibara ry'icyatsi.

Amavoka ameze neza ariko ateze. Ano mavoka wayarya amajije kwera kandi ari ku giti cyayo. Amavoka ni abiri, inyuma hariho ikindi giti ariko cyo nta bwo ari...

Inkoko iriho agasashe karimo ibinyomoro, no ku nkoko ku ruhande hariho ibinyomoro. Impande yaho hariho imyembe. Hirya hariho imyenda, impande y'ibinyomoro hariho na wotameloni.

Aka kantu izi nkoko ziri kuriramo ni aka kijyambere, kera inkoko zaratoraguraga zikarya ibyo zibonye tukorora inkoko zigatera utugi dutoya zitwa inshenzi. Ubu turorora inkoko za kijyambere tukarya inyama, tukazigaburira neza kugira ngo zikure neza.

Umugore uri gusarura icyayi, ahetse agatebo mu mugongo ko gusaruriramo, icyayi kigira umusaruro, kikagira amafaranga, akadufasha kwiteza imbere.

Ipapayi ryiza cyane riri gusa n'umuhondo, ayandi asa n'icyatsi. Amababi yaryo asa nayo nk'icyatsi, hariho n'agashaka gusa n'umuhondo.

Aya mashu areze, ushaka wayaca ukajya kuyateka. Ni amashu atanu yose ameze nkayeze, uramutse uyaciye amababi yayo wayaha amatungo.

Iyi ni voka, voka ya kijyambere imbangurire. Kera heraga ibi voka byuriraga bikajya hejuru cyane, ubungubu hariho voka z'imbangurire zeraho umusaruro mwinshi, kandi zerera hafi kuzisarura zitagorana ku wazihinze.

Ibitunguru bya onyo ruje bifite amababi y'icyatsi ,ikijumba cyabyo gisa n'umutuku, gitangiye kugira andi mababi yo ku ruhande atangiye gutukura akaba nk'umuhondo.

Sbantu bari kubagara imyaka, abagabo bambaye ingofero ziboshwe mu migano, n'uwundi wambaye ingofero y'umutuku, bambaye imyenda itukura, imyaka yabo nayo imeze neza kandi.

Ibirayi biri mu mufuka. Ibirayi by'umweru bifite amaso menshi. Ibi birayi ni byiza kandi ni byinshi. Uyu wabisaruye yabona amafaranga atubutse.

Abantu babiri bagiye guhinga umugore n'umugabo. Umugore afite agapaniye mu ntoki n'isuka ku rutugu, n'umugabo afite isuka ku rutugu. Impande yaho hariho umurima urimo imyaka n'umwumbati umwe.

Aya mavoka ameze neza, atwawe neza, afite umutekano kugira ngo atangirika, n'umuguzi uzayagura azayagure ameze neza, afite umutekano. Ni byiza gutwara umusaruro wawe mu gikoresho cyabugenewe, kugira ngo utangirika.

Abantu bari kurundarunda itaka nk'abari gutera imbuto. Barunamye bamwe ni abagore abandi ni abagabo. Abagore babiri bambaye imipira y'icyatsi, n'ibitenge by'amabara.

Amashu ari ku meza barayarya bakayatekesha amavuta ndetse bagashyiramo n'inyanya, kugira ngo atukure. Impande y'ameza hari agapaniye karimo agafuka.

Iyi tapi ni nziza cyane kuyiteguza ahantu harabera ikirori, biba ari sawa cyane. Umuntu uyifite yambaye itaburiya y'icyatsi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa afashe avoka iri mu giti ,amashami acuramye arareba hasi. Umugabo yambaye agapira k'umweru yambaye n'agapfukamuywa k'umutuku.

Umuhinzi utwaye ingemwe z'ibiti mu ibase, agiye kuzitera, azitwaye neza kugira ngo zitangirika, kuko uzitwaye mu gifuka zaba mbi, zakwangirika zigapfa.

Umuntu ufite akanyana gafite ibara ry'umukara n'umweru. Afashe terefone mu ntoki, ahetse agakapu mu mugongo. Yiteze agatambaro k'umukara mu mutwe.

Umuhungu uri guhingira imbuto, uzikorera kugira ngo zimererwe neza, kandi zizagire umusaruro ushimishije. Izi soya nizera tuzaziryamo igikoma n' umitsima.

Ipera rimwe ryiza riri ku ishami ryaryo, iri pera riraryoha, kurirya ni ukubanza ukarica kuri kano gati karyo.

Ironji rirakase neza baryita amacunga mu kinyarwanda. Risa umuhondo, no mu nda haryo hasa umuhondo. Harimo agatimatima k'umweru, barirya bamaze kurya ibiryo bikarushaho ku...

Umuntu ufite amatunda mu ntoki. Amatunda barayarya cyangwa bakayakoramo ji, umuntu ashimishijwe n'umusaruro we cyane rwose, kandi ni mwiza, natwe uradushimishije.

Abantu bari guhinga bari mu materasi atandukanye. Amaterasi, rimwe riri hepfo, irindi riri hagati, irindi riri mu mbugiro. Bose bafite amasuka, harimo n'undi muntu umwe uri wenyine ruguru.

Imyumbati ni igihingwa gihingwa mu misozi, imyumbati ni ibihingwa biribwa bakunda kuyigereka ku bishyimbo, imyumbati yaba ishishutse ntabwo yeze neza, kuko iyo yeze neza ntabwo ikunda gushishuka.

Umuntu uri kugenda afite isuka mu ntoki n'amabase atatu .yambaye bote, yiteze igitenge mu mutwe, yambaye ipantaro y'umukara. Imbere ye hari undi muntu wambaye ipantaro y'umukara n'umweru.

Pavuro na karoti ni imboga zitekwa mu bindi biryo, ntago karoti wazirya zonyine gusa udashyizemo amavuta n'ibindi biryo n'ubunyobwa n'izindi mboga, pavuro bakunda kuzikoresha

Aya mawuwa ateye ku muhanda ahantu kugira ngo hagaragare neza, kugira ngo umuhanda umere neza ugomba kuba ukorewe isuku, umeze neza. Kera twagendaga mu biyira by'ibisibanzira ukagenda utazi aho ujya, ariko ubu tugenda mu muhanda umeze neza, urimo kaburimbo kandi ufite isuku.

Imiteja barayirya ni myiza barayifumbiye, umuntu arayisogora neza akayikaranga mu mavuta, akarisha umuceri cyangwa ukarisha uturayi.

Abantu babiri bari gutera umuti mu bigori, bari guteresha amapombo asa n'umweru. Aya mapombo nibwo nayabona, ntabwo nari nzi ko habagaho amapombo ameze gutya.

Ibigori by'umuhondo biramanitse ku giti, uyu muntu yarahunitse ni ko kubika imyaka ye neza, kugira ngo igihe azaba ashonje azayitabaze mu kugaburira umuryango we.

Abama bafashe inanasi. Ni kimwe mu biribwa by'imbuto bigaragara ku muntu wariye ibiryo akarenzaho iyi deseri. Barishimye, kandi bose bamerewe neza.

Imiteja ipanze neza mu kantu keza, bazipanze uduhande tubiri hagati bashiramo akandi karongo nako karimo imiteja iraryoha.

Amateke ya bwayisi ari kumwe n'ibirayi barabiteka ku bishyimbo, bakabigerekeranya, biraryoha cyane, kereka umuntu utarabiryaho, ni we utamenya uko biryoha.

Karoti zimeze neza z'indobanure, zipanze mu tuntu twubakishije imigano isatuye, izi karoti bazirambitse zicurikiranye ariko ni indobanure.

Umuntu uri gupakira ibitoki mu modoka，bari kumuhereza ikindi ngo ashyiremo，inyuma y'imodoka hari umuntu ufashe ku gitoki. Mu modoka harimo n'imifuka ine irimo ibindi bintu.

Abantu bari guhinga. Abandi bari kumanika ibigori. Abandi bafite ibigori bihunguye mu ntoki. Byose ni umusaruro umwe w'ibigori, bari gukura mu mirima yabo. Abandi bari guhingira ibigori.

Inkwavu z'umweru ziri kurya utwatsi bazihaye, zirashishe kandi ni nziza, zororewe ahantu heza, kandi zifite isuku, zifite amaso asa n'umukara baziryamo inyama.

Amateke y'amanyobero baragarya, bakayateka ku bishyimbo, bakayateka adahase ukayagereka ku bishyimbo. Ukuraho imizi n'amababi, ukayateka asukuye.

Abantu bari kwiga, bari kwigira mu mirima, mwarimu wabo ari kubabaza bagashyira amaboko hejuru, kugira ngo bamusubize ibyo yababajije, bari kwigira mu dutabo. Amashu bahinze ameze neza n'ubwo hose atameze.

Umuntu uri kuvomerera imyaka, yambaye isarubeti y'icyatsi yambaye ingofero y'icyatsi, afite na razwara isa n'icyatsi irimo amazi, iruhande rwe hari ibiti.

Umurima uteyemo ikawa, ikawa harimo n'insina, insina zivamo ibitoki, ikawa ikavamo umusaruro ukoherezwa mu mahanga bakawukoramo icyayi.

Ibitoki by'imineke bimwe birahiye ibindi ntabwo bihiye, birasa n'icyatsi ibyo ni byo bidahiye ibihiye birasa n'umuhondo, uwo muneke ushaka wahita uwurya, ibi bidahiye ushaka wabirya bitetse.

Umuntu uri gutera urugemwe ari kurushyigikira n'itaka, kugira ngo rumere neza, ruzakure neza, abandi bantu barahagaze impande ye bari kurebera, ntabwo wamenya ibyo barimo.

Ipapayi ni igihingwa gifite imbuto z'umukara, n'imbere harasa n'umuhondo, n'inyuma hasa n'umuhondo, ikibabi cyaryo gisa n'icyatsi. Irambitse ku kantu kameze nk'ikara.

Imiteja itunganyije neza turayirya, tukayirya tukayikaranga, tukayirisha umuceri tuyiteka mu mavuta kugira ngo iryohe tukifashisha inyanya, tukayirisha umuceri cyangwa ibirayi.

Abantu bari guhinga, ni abagore bane bose bafite amasuka asanzwe atari amakanya. Bakenyeye ibishura, umwe yambaye umupira w'ubururu.

Inanasi ni nyinshi kandi ni nziza, ziribwa zihase bakazikuraho ibibabi n'ibishishwa byazo, bakazirya mu nda ziba zirimo umutobe, zisa n'umweru.

Pavuro ni igihingwa cyiza, ireze ifite imbuto nyinshi zaheze zirashimishije cyane, bazikoresha mu kurunga ibiryo bitandukanye, cyane cyane nko mu isombe.

Iyi nka nyibyagiye ni nziza cyane rwose bigaragara ko yishimye kuko yariye yahaze kandi naho iryamye ni heza cyane. Iryamye mu byatsi biyishimishije bigaragara ko yahaze. Iyo iba itahaze yebabawee! Iyi nka ni nziza cyane pe!

Abantu basaruye ibikoro ,ibikoro bimeze nk'ibijumba biba bisa n'umweru, barabitera bakabisarura bakarya ibijumba byabyo babihase .Harimo umugabo n'umugore, babifashe ariko umugore afite dutoya.

Umwana w'ihene uri kurisha, umwe usa n'igitamu uwundi usa n'umweru uvanzemo agatamo gakeya ufite amatwi asa n'umweru, impande yaho hariho ibiti.

Aya mavoka ari mu kantu kagenewe ko gutwaramo umusaruro kugirango utangirika, nibyiza gutwara umusaruro wacu ahantu heza kugira ngo ugende neza.

Umwembe uri mu giti, gifite imyembe hirya no hino. Uruhande rumwe ntayirimo, ufite amababi asa n'umuhondo hejuru, ahandi asa n'icyatsi. Impande y'igiti hasi hariho ibindi byatsi.

Ibitoki barabicuruza, ndi kubona ari ibitoki by'ikibungo, babicuruza mu masoko hose bakabirya, tukabiteka, turabihaha tukabirya ,tukabigaburira abana, ndetse umuryango wose ukamererwa neza muri rusange.

Ibigori birahetse iyo byeze turabirya tukabirya tubyokeje, tukabirya tubitetse, ndetse tukabigemurira n'inshuti n'abavandimwe, tubiryamo n'igikoma, tukabiryamo umutsima umuryango ukamererwa neza.

Ibirayi bya Kinigi, biri mu kigega barahunitse, kera twahunikaga ibishyimbo, tugahunika ibigori, tugahunika amasaka, ariko ubu n'ibirayi iyo wabihinze bikera, bikera neza, kubihunika bituma ubirya bimeze neza.

amateke, aya mateke y'amabungubungu tuyarya tuyageretse ku bishyimbo, tukayahata tukayagerekaho, tukayasuka ku isahani nini, tukarisha ibishyimbo. Ubwo abana bakarya, umuryango ukarya ukwizihirwa. Ariko ubu yarabuze kuyabona biragoye. Abantu bayafite baba bayakomeyeho.

Umucuruzi ucuruza imbuto, ubuki, amazi, imitobe y'imbuto. Ni byiza cyane kuko kubibona ubu ntibipfa kuboneka aho bibonetse hose kuko ibintu byarabuze, Kano kana nako kabinyuzeho ndikubona kabyishimiye karashaka gushikira kandi umubyeyi ugahetse ntabwo yamenya ibyabaye.

Amajyeri ari mu murima amaze kuba imiteja, ararandaranda aya majyeri araryoha, iyo wayatetse mu gitoki aba ameze neza.

Ibi ibishyimbo by'umukara barabirya. Iyo wabitetse, bigira amaminwa asa n'umukara. Birambitse ku gatete, ibindi birambitse hasi, ariko ni byinshi kandi ni byiza cyane. Umusaruro wabyo ugaragaza ko byeze neza.

Soya ziteye mu murima. Iyi soya yarashoye neza kandi ifite soya nziza. Bayikoresha mu gikoma bakazikoresha kuzirya mu biryo no kuzishyira mu mafu y'ibigori bakarya umutsima.

Ibigori bya nyakagori biraryoha. Bigira amabara atandukanye. Umutuku, umukara, umuhondo n'umweru. Biraryoha kandi bigira impeke nini kurusha ibindi. Ni byiza cyane uretse ko ubu tutakibihinga, dusigaye dukunda guhinga iburide.

Ibi bishyimbo by'umutuku barabirya bikaryoha, ibishyimbo ubitetse wagira amarongorwa y'umutuku. Bifite amabara asa n'umweru n'umutuku. Birunze hamwe kandi bigaragara nk'ibyatanga umusaruro.

Umudamu ari gutegura ubunyobwa ari kubugira neza. Ni byiza gutegura umusaruro wawe. Iwacu dutegura ibishyimbo tukabigosora, tukabihunika. Na we rero agomba gutegura umusaruro we kugira ngo awugeze aho ugomba kugera umeze neza.

Imifuka ipanze neza, irimo iy'umweru, irimo ibicuruzwa, bayipanze ku mbaho kugira ngo bayifate neza. itangirika, ibicuruzwa babyo bigata agaciro.

Ibishyimbo bigufi biteye ku dutabo, birimo kuyanga bifite uruyange rw'umweru n'umushogoro wabyo urasa n'icyatsi, babiteye neza ku murongo, udutabo twabyo tugiye turinganiye.

Igihwagari turakirya tukirya dukaranze ku rujyo cyangwa se tukagisekura tugakuramo amavuta. Igihwagari kigira akamaro kanini cyane.

Abantu bashyize ubunyobwa mu mifuka, ariko budahuye. Ubunyobwa barabutonora, bwo mo imbere buba busa n'umutuku, bakabubetesha bakajya babuteka mu biryo.

Ubunyobwa burarunze hamwe, ubunyobwa ntabwo bari babukuraho imigozigozi yabwo, burunze ku migozigozi, ubu bunyobwa bureze, ubundi ni ukuzabutonora bakabwanika, bakabugosora, bakazabukuramo amasosi.

Soya ni igihingwa gishora kandi cyiza, kigira umumaro ku biribwa, hari ubwo tugikoresha mu gikoma, ubundi tukayikoresha mu biryo ndetse tukayikoresha no mu mafu y'imitsima atandukanye, nta muntu wabona soya ngo abure umumaro wayo.

Inzu yo kwanikamo ibigori, barabyanikaga bakazabirya bimaze iminsi, iyi nzu ifasha abantu kumisha umusaruro wabo neza, ntawangiritse urimo, umusaruro bakazawukoresha igihe babishaka.

Ibishyimbo by'umukara bifite amaso y'umweru ibi bishyimbo uramutse ubi bitetse wabona amazi yabyo yaba asa n'umukara

Umusaruro wa soya umeze neza urakeye kandi ufite isuku. Soya bayikoresha mu gikoma, bakayikoresha mu mutsima ahantu hose, ifu yayo bayishyira no mu biryo.

Soya igira umumaro mwinshi. Bayikoramo igikoma bakakinywa, bayitekamo n'imitsima babivanze n'amafu y'ibigori.

Ingano barazihinga, bazihinga mu misozi yo mu Buhoma, tuzitekamo imigati, tukazikoramo imitsima y' igikwanga, ingano zifite akamaro kanini cyane mu buzima.

Ubunyobwa buri mu ibase. Umuntu uri kubuyora yambaye umupira w'umuhondo wanditseho yuwesayidi, arishimye, arapfukamye . Uyu mukobwa ashimishijwe n'umusaruro we kuko ni mwiza cyane.

Abagore bari kurenga imyaka mu mabase. Ibase imwe iruzuye, indi base iracagase, ibindi bisutse hasi, indi base irimo ubusa. Umugore umwe yambaye iherena ku gutwi, undi ari kureba ibyo mugenzi we...

Impeke za soya tuzikoresha mu gikoma, kuvanga n'ibigori n'amasaka, izi mpeke za soya zifite amaso y'umukara, zo ubwazo zirasa nk'umuhondo, zigira ifu inoze yo kuvanga mu gikoma, cyangwa mu ifu y'ibigori, bagashyira mu mutsima.

Ibishimbo barabirya, tukabirya tubitetse, tukabirya tubigeretseho n'ibindi, ibi bishyimbo ni byiza cyane, bifite ibara ryiza, kubirya ni byiza binezeza uwabiriye.

Ibigori bitetse mu mavuta twita injugu barabirya, ariko nta kindi kintu umuntu yabikorera ni ukubihekenya gutya biri. Birasa umuhondo, byatugurutse, harimo n'amabara y'umweru.

Ibishyimbo bya kizungu bifite imiteja miremire, uruyange rwabyo rusa n'umutuku, amababi yabyo ameze nk'ay'ibiko. Ibi bishyimbo ntabwo bipfa kuboneka ahantu hose.

Umugore ari kugosora imyaka, ari kuyitunganya kugira ngo ayikuremo imyanda, isigarare imeze neza, ahetse umwana, umwana ufite agasatsi kameze nabi, na we yiteze igitambaro cy'umutuku, agasatsi k'uyu mwana azakogosheshe.

Uyu muntu afashe umusaruro w'ubunyobwa, yaranduye ibititigiri by'iminyobwa, biri kumwe n'ubunyobwa bwabwo abifashe mu ntoki.

Imboga zifite uduteja tumeze nk'ibishyimbo . Zifite uruyange rw'umweru. Uyu muteja barawurya. Nanjye ndawurya.

Umugore uri gusagarura ingano. Yambaye agatambaro karimo ibara ry'ubururu, umweru n'umukara. Yambaye udukweto tw'umutuku n'agatenge karimo ibara ritukura.

Umuhinzi arahinga, hano hariho ibishyimbo, ibigori, ubunyobwa, soya, byose ni umusaruro umuhinzi aba yahinze, yasagaruye kugira ngo umusaruro we umere neza. Kugira ngo umusaruro wawe umere neza, bisaba kuwufata neza, ukawukorera isuku.

Inzuzi ni umuti, ziraribwa, tuzikoresha isosi, tuziteka no mu biryo mu isosi cyane cyane zikunda kuryoha mu gatoki, mu megeri. Biribwa biryoshe umuntu yabirisha n'ubugari.

Ubunyobwa basaruye burambitse hasi. Buno bunyobwa babusaruranye n'imigozi yabwo. Burasabwa kubwanika kugira ngo bazabuhure, buvemo ibishishwa ubundi baburye.

Abantu bari kurobanurira imyaka yabo ku nkoko, inkoko ni igikoresho cya gakondo twifashisha turigutoranya imyaka yacu, kugira ngo umusaruro wacu tuwuzigame umeze neza.

Ibihwagari barabirya bakabitonoraho igishishwa cy'inyuma, biba bisa n'umukara, utw'imbere bakadusekura bakadushyira mu biryo . Ibihwagari babishyira no mu ruganda bakabikuramo amavuta.

Ibishyimbo byeze byabaye intonore, harimo ibyumye, harimo n'ibitari ibyuma, bifite amabara atandukanye inyuma, bigaragaza ko bimwe byeze ibindi biteze cyane.

Ibinyobwa turabitonora tukabirya, tukabisekura mu sekuro cyangwa tukabibetesha ku mashini kugira ngo dukore isosi. Tubirya no mu biryo cyangwa se tukabirya tumanje twabikaranga ku rujo.

Ibigori bimanitse mu bwanikiro, babimanitse batabiyetonoye byose, kugira ngo imyaka ikomeze imere neza. Babibitse kugira bahunike umusaruro wa bo, bazawukoreshe wumye neza, kandi umeze neza.

Abagore bari kugosora amasaka bakoresheje inkoko. Impande yaho hariho ibikenyeri, by'ibigorigori byumye. Aba bagore bose barunamye bari kureba, buri wese areba ku nkoko ye.

Amasaka tuyaryamo umutsima, tukayanywamo umusururu, tukayakoramo igikoma, tukayabeteza inzoga, tukayatera mu mirima kugira ngo imbuto ikomeze iboneke, kandi imeze neza.

Amasaka ari mu murima, umuntu ari kuyasarura ahetse igikapu, hariho n'umugore uri kumufasha gusarura, bari kuyakebera hejuru, ano masaka ariko ntabwo atukuye.

Ibishyimbo by'umutuku ni byinshi cyane bisa neza cyane. Ibishyimbo barabirya, bakabiteka bakagerekaho imyumbati ,ndetse bakagerekaho n'ibirayi.

Ibigori bimanitse ku biti, kandi ni ibigori byiza, bimwe biratonoye ibindi ntabwo bitonoye ngo birangire, bimwe biri hasi ku giti cyo hasi, ibindi biri ku giti cyo hejuru, ariko byose ni byiza cyane.

Umuceri uri mu gishanga umeze neza, ariko ufitemo uwuri kuyanga wenda nko kwera, urasaba ko bawutangira kuwamurura, kugira ngo inyoni zitawujya.

Umugosozi ari gugosora i soya, aragosora umusaruro kugira ngo umere neza, kera baragosoraga, ariko n'ubu turakosora, tugosora dukoresheje intara, urahuha ugakuramo imyanda, ugasigarana umusaruro umeze neza.

Amasaka tuyanywamo umusururu, tukayakoresha turi kubeteshamo ibikoma. Kera twayabetaga ku rusyo, ubu turayabetesha ku mashini za kizungu, kugira ngo tuyanywemo igikoma, tukayakoramo umutsima w'amasaka, tukayakoramo n'urubetezi, tukayakoramo n'umusururu. Ni byiza cyane rwose birakomeje uretse ko ubungubu ari gucika.

Umuntu uri gutera itungo urushinge, yambaye ga mu ntoki ,yambaye agapfukamunwa k'umukara ,umuti arimo aratera urasa n'umutuku ,impande yaho hari irindi tungo rimeze nk'ihene.

Umuganga w'amatungo agiye kuvura inka, ari gushyira umuti mu rushinge kugira ngo atere inka, azivure zimererwa neza. Kugira amatungo meza bisaba kuyitaho ukayagirira isuku ndetse ukayavuza uko bikwiye.

Iyi nka ni inka y'imbyeyi, y'inyarwanda, ifite amahembe ateze neza, ni ibihogo, kuva kera inka z'ibihogo zahozeho, habaho n'inka z'ikibamba, urwirungu, n'andi moko.

ika ziri murwuri ni nziza zifite amabara y'umukara n'umweru, hariho n'izirimo zisa n'umukara gusa, harimo n'abantu benshi, hameze nko mu isoko ariko izi nka zifite isuku.

Inkoko z'amasake ziravanze, harimo ingoko y'umutuku, harimo n'inkoko y'umukara, harimo n'inkoko y'umweru, harimo n'inkoko y'ubugondo. Izi nkogo zose, inyinshi ndabona ari amasake.

Izi nkoko zifite ibara ry'igitaka, muri izi nkoko harimo akantu ko kuzirindira umuyaga, izi nkoko ndabona ari inkokokazi zitanga amagi.

Urukwavu rw'umweru rwo mu rugo rufite amatwi ajya gusa n'umutuku rusutamye impande y'akantu gasa n'umweru, karambitse ku kabase k'umutuku.

Inkoko ziri kumwe n'ihene, impande ya ho, hariho ikiraro cy'ihene, umuntu uri gukumakuma inkoko ngo zitajya mu myaka.

Umushumba uragiye ingurube, ari kuzishyogashoga azibungabunga kugira zimere neza, korora ingurube bisaba gushora, ugashoramo ibiheri, ugashyiramo ibyo kurya, ukazishyira ahantu heza, ukazikorera n'isuku kugira zimereneza.

Inkwavu eshatu ziri kumwe, hejuru yazo hari urundi rukwavu, zirasa n'umweru, ziri ku twatsi twumye. Izi nkwavu zifite amaso asa n'umutuku.

Inkoko ziri kumwe zose zororewe hamwe harimo imashini irwanya impanuka, iyi mashini iyo habaye inkongi irazimya.

Isake nziza irabika ikabyutsa abantu, ikamenyesha abantu amasaha, ni nziza cyane pe bayigaburiye neza irakeye nta kibazo ifite, umuguzi wayigura yayiha amafaranga ashimishije, kuko n'uwayigaburiye yayigaburiye neza.

Ingurube ibyibushye kandi imeze neza, ifite amatwi tendeye, isa n'umweru, ihagaze mu ntabire. Ingurube uwayoroye wagirango ngo yanayogeje.

Ikiraro cy'inka, inka ihari isa n'umukara n'umweru, hariho umushumba n'ikindi kiraro kitarimo inka, hariho ikigega gifata amazi aturutse ku kiraro.

Ingurube iri kumwe n'ibibwana byayo. Iri kurisha imeze neza kandi ibibwana byayo ni byiza. Bimeze neza kubera ko babigaburiye neza birashimishije. Bizatanga n'umusaruro ushimishije.

Ingurube ziri kurya ibyatsi, imwe ifite amabara y'umukara mu mugongo, ifite amatwi atendeye mu jisho. Izi ngurube ni nziza, inyuma hariho izindi ziri mu kiraro kitari kumwe n'izi inyuma.

Ingurube itanu zimeze neza, zirabyibushye, harimo imfizi imwe, nta muntu wapfa kugira ingurube zimeze gutya adafite urushoro rwo kuzigaburira neza.

Inkwavu ziri mu kibuti ari nyinshi, inyinshi zifite amabara, amatwi asa n'umukara harimo urukwavu rumwe rusa n'umukara, ruri hagati y'izindi.

Inka bari kuyishyira ku mfizi. Bari kuyishyira ku mfizi bayifashe, kugira ngo itabateza amahane. Iyi nka ni nziza, ifite ibara ry'ikibamba, ni ryo bara ry'inka nziza ivanze umweru n'umukara.

Ingurube nziza ibyibushye ifite amatwi yereye mu jisho, ifite amabere nk'aho iri konsa, umushumba wayo ari kuyishishira iramunejeje, kubera ko ni nziza yariye neza cyane rwose.

Inka z'ibibamba ziri impande y'ishyamba, hari n'abantu bameze nk'abasirikari bari imbere y'aho izo nka ziri. Hari ishyamba rimeze nk'ikirunga, izo nka ni nziza cyane.

Ihene ni amatungo magufi, zino hene, zirimo ihene z'umukara, zirimo iz'umukara n'umweru, ziziritse ku biti. Nyirazo yafashe ingamba zo kuzororera mu gikuyu, kugira ngo yubahirize amabwiriza ajyanye no korora.

Abantu batatu baragiye inka imwe. Ifite ibara ry'ibihogo, nta mahembe Ifite. Iri mu ishyamba. Abo bagabo batatu umwe yambaye ingofero, abandi nta zo bambaye

Umworozi w'intama arayiteruye kubera ko ari akana k'intama kakiri gato, mu rwego rwo kukabungabunga kugira ngo kamere neza, ni ukugaterura. Ariko iyi nzu irashaje, izi ni zo twabagamo kera, zishaje z'ibyatsi, bidahomye by'ibirangare, ariko ubu tura...

Inka zimeze neza zirabyibushye， zambaye iherena ry'umuhondo. Iyi nka imwe irareba neza， indi iri kureba hejuru，ifite umunwa umeze nk'uw'ikimasa.

Inyama zibaze bamanitse, nta muntu warya inyama ngo itagira icyo imumarira mu mubiri, inyama ziri mu byubaka umubiri kuko zigira akamaro kanini mu mubiri.

Imbwa ibyagiye, imbere yayo harunnze ibyatsi, ifite ibara ry'ibihogo ni inkungu, kuko nta mahembe manini ifite. Iyi nka ni nziza kandi iratuje.

Amagi barayarya apakiye mu tuntu two kuyatwaramo, kugira ngo bayarye, amagi arinda igwingira mu bana, ndetse n'umuntu mukuru wayariye, agira ubuzima bwiza, ni byizayiza kurya amagi.

Umununi ni inyoni iba mu ishyamba . Ikunda kuba mu giti ,ifite ibara ry'icyatsi n'ubururu n'umukara n'umuhondo bivanze . Umunwa wawo ni muremure ntago umeze nk'izindi nyoni.

Urukwavu rwo mwishyamba，rufite ubwoya bwinshi mu mugongo，uru rukwavu ruhagarikishije amaguru y'inyuma， ay'imbere rwayashyize hejuru， ruri kureba cyane，rusa nk’aho ruri kureba utwatsi rugiye gutora.

Ingagi ziri mu ishyamba. Ni ingagi ebyiri zose ziri kugenda. Ingagi ni inyamaswa zituzanira amadovize mu Gihugu, bityo iterambere ry'Igihugu rikiyongera.

Urukwavu rwo mu ishyamba rurikurira igiti . Nta muntu warworora mu rugo kuko ndabwo rwabamo. Ariko iyo barufashe bararurya kuko na rwo ruba ari urukwavu rwacitse.

Inkende iri kurira igiti, ifite intoki zimeze nk'iz'umuntu nubwo ziharadutse, ariko uzirebye wagira ngo ni iz'umuntu, iri kurira iri kureba imbande, ntabwo iri kureba ku giti aho iri.

Ingagi iri kureba nk'umuntu, iri mu impande ya ho hariho agati gatoya, ingagi n inyamaswa zituzanira amadovize mu Rwanda.

Inyoni ihagaze ku mashami y'ibiti, ifite amababa y'umuhondo, ifite n'amaguru y'umuhondo. Umunwa wayo ni mugufi, iyi nyoni imeze nk'isandi.

Inyoni ifite amaguru y'umutuku, ifite umunwa w'umweru, ifite ijisho risa n'umutuku. Yo ubwayo irasa n'umukara, iri gutoragura, iri gutambagira muri bino biti barambitse hano.

Intare iryamye mu ishyamba, iri kureba nabi ifite amaso nk' ay'imbwa. Iryamye ku bintu bimeze nk'ibiti , impande y'aho hari agashyamba kayitwikiriye.

Inyoni iri kugenda mu byatsi, iri gutoragura udusimba, utu twatsi ni twiza, umuntu yatwarira akatugaburira amatungo, inyoni na yo ifite umunwa w'umutuku na muguru.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti, ifite amaguru asa n'umuhondo, iri kureba hasi kandi imbere ifite amabara asa nk'ay'ifi.

Inyoni y'inyamanza ifite ibara ry'umweru n'umukara, ifite akanwa gasongoye, ifite n'utuguru dutoduto n'uturizo tureture, inyamanza ni akanyoni kadatera amahane nta n'ubwo kona.

Marere ihagaze ku butaka. Iyi marere irya inyoni, ikarya inyama. Zikunze kurya n'amashashi, waba ufite n'umugati zikawukwaka.

Inyamaswa ifite ibara ry'igihogo, ifite amahembe ateze nk'ay'inyambo. Iri kureba imbere, ifite umugongo nkuw'ihene, ntago namenya ubwoko bw'iyi nyamaswa ariko..

Igikona gihagaze ku shami ry'igiti. Kirafite amabara y'umukara n'umweru. Turavuga ngo: "Nta muntu watanze ingona kwambara karuvati, ngo ni nde watanze umuzungu kwambara karuvati?" Ni urugona.

Igikeri gifite ibara ry'icyatsi n'utundi tubara tw'umukara bacyita umutubu, kiri mu kinani gikanuye amaso gihagarikije amaguru y'imbere nay'inyuma.

Icyana cy'ingagi kiraryamye kireba hejuru, kiryamye mu twatsi. Ingagi ni inyamaswa zituzanira amafaranga y'amadovize.

Inyoni ihagaze ku itabi ryacitse kabiri ifite ibara ry'umuhondo ,amaguru yayo ajya gusa n'umutuku, umunwa wayo usa n'umukara ,ifite ijisho ry'umutuku.

Ingagi ebyiri zisutamye mu ishyamba, ziri kureba ahantu hamwe, zifashe neza. Ubusanzwe ingagi zituzanira amadovize, abakerarugendo baza kuzireba.

Imparage ni inyamaswa iba mu ishyamba, igira amabara y'umweru n'umukara. Izinze umurizo, iri kureba ku ruhande. Imbarage iri ahantu heza h'ibyatsi, hariho utwatsi turinganiye.

Ingagi ishaje ifite ubwoya bw'umweru ku matama, mu mutwe ifite ubwoya bw'umukara, ifite amenyo y'umweru iri mu ishyamba.

Ibikeri bitatu bihagaze ku giti, ibikeri bisa n'icyatsi. Ntabwo nari nzi ko habaho ibikeri bisa n'icyatsi, bikanuye amaso biri kureba hirya no hino.

Uruyongoyongo rufite agafi mu kanwa, ntabwo rwakamize, na rwo ruri mu mazi ruri kurerembamo mu kanwa karwo hari kuvamo amazi.